Uru ni urubuga rwo kuri murandasi ruri mu mabara y'ubururu n'umweru, handitseho banki ya Kigali rukoreshwa mu kohereza no kwakira no mu kwishyura amafaranga ya banki.

Inzu yubakishije imbaho z'ibiti ikorerwamo ubucuruzi bwa butiki, harimo umukobwa wambaye ingofero y'umweru n'agasengeri k'umukara, umuko yicaye uhagaze imbere muri iyo butiki irimo inyanya n'ibindi bintu byo kuri biri biribwa.

Mu nyubako mwimbere imeze nkaho ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye harimo inkweto, amasakoshi ,amatelefone ubwoko bwinshi harimo mudasobwa amasaha n'imikufi harimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara wambaye isaha nziza cyane urikureba mu kabati .

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Abagabo bahagaze ahantu hashashe amabuye, bambaye umupira imipira n'amashati bijya gusa nk'umweru, imbere inyuma yabo baparitse imodoka nini nziza cyane iri mu mabara y'umweru n'umukara, yanditseho a ba ga akagera motozi, inyuma yaho hari igishararagati kiri mu ma mabara y'umweru n'ibirango by'umukara byanditseho a ba ga akagera moto.

Umugabo wambaye neza cyane yambaye ipantaro y'itisi isa n'umukara n'ijiri, y'umukara n'ishati iririmo ibara ry'izoze, n'ingofero y'iroza yambaye isaha nziza cyane y'umukara akoze ku modoka nziza iparitse imbere yiwe iri mu ibara ry'umukara n'amatara y'umweru.

Aha n'abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nziza iparitse, uwo mugabo umwe w'umunyaziya yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, afite agakapu mu ntoki karimo ibara ry'umuhondo kanditseho akagera moto; n'umugabo uri haruguru ye w'umunyafurika wambaye ishati itukura n'ipantaro y'umukara ufite icyapa cyanditseho akagera moto.

Abagabo babiri bashinzwe umutekano bahagaze inyuma y'imodoka y'umuhondo imeze nkaho nayo ari ari iy'abantu b'umutekano imbere yaho hari intebe zo kukwicaraho.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

Amafoto abiri y'amafaranga ibihumbi bitanu y'u Rwanda, iyo hejuru yanditse mu gifaransa iriho ababyinnyi b'intore, iyo hasi iriho ifoto y'inyubako ndende ya etaje.

Umukati mwiza cyane ukataguyemo uduce duto duto cyane, uteretse ku kameza k'igiti. Hirya hari agatambaro k'umweru karimo uturongo tw'amabara atandukanye, umuhondo, icyatsi n'umutuku.

Mu nyubako mu nzu hafi y'aho hari igikoresho gikoreshwa mu gukonjesha ibinyobwa cyangwa ibiribwa, hirya yaho hari imeza iteretseho ibinyobwa bitera imbaraga harimo ikawa n'utundi tuji banywa kugira tubatere imbaraga.

Ishusho iririmo ibara ry'umweru iriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, byanditse mu ibara ry'umukara, bivuga ngo werikamu tu emutiyeni momo, rimwe kohereza amafaranga, kabiri no kwishyura serivisi, gatatu ni kugura amanite, kane nikwishyura ukoresheje momo, kane ni banke, gatandatu n'inguzanyo, karindwi ni konti yanjye.

Aya n'amafaranga akoreshwa mu bihugu by'i Burayi, hariho inote y'amayero icumi, iy'amayero mirongo itanu, n'indi y'amayero makumyabiri.

Ibiganza by'umugabo, biteruye amafaranga mu ntoki, azirikishije fimbo, umushandiko w'amafaraga menshi cyane, atagaragara umubare, ariko ameza nk'aho atari amafaranga akoreshwa mu Rwanda.

Iyi ni inyubako isize iragi ry'umweru risa nirishaje n'umuryango w'ibirahure hejuru yaho hariho icyapa cyanditse service batanga z'ivunjisha.

Urukarabiro rugezweho muri ino minsi cyane rusa neza rukoze mu byuma ndetse n'akantu ko gukarabiramo hasi kameze nk'agakoze mu rubaho rwiza gasa umuhondo gateretse ku rundi rubaho rujya gu gusa umukara.

Intebe z'imifariso ziteye hanze ku buryo bwiza ziri mu mabara y'ubururu n'icyatsi n'umweru; hariho utumeza twiza dukoze mu biti n'akandi kari mu ibara ry'umuhondo; hirya yaho hari igiti cy'umukindo, inyuma y'izo ntebe hariho utubati duteye irange rijya gusa nk'umutuku, n'umugabo wicaye inyuma y'inzu uri kuri terefone.

Mu nyubako mo imbere, yubatse neza ku buryo bugezweho, ifite parafo nziza cyane iteye uturangi twiza n'amatara yaka amabara meza, mo imbere hicayemo umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, yicaye ari kureba muri mudasobwa iteretse ku meza isa umukara n'irindi bara ryiza cyane.

Iyi ni inyubako irimo ibiro byiza cyane birimo abantu bicaye, imbere hari imeza nziza iteretseho imashini n'impapuro, umugore w'umunyafurika uri kuri terefone n'undi mugabo wicaranye n'umugore ari kureba mu mashini n'umugabo hirya wambaye ishati y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari wegereye aho abanyamaguru bambukira, imbere yaho hari inzu ndende y'umuturirwa, ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi mu kwivuza Saniramu arayansi.

Inyubako y'isoko icururizwamo ibiribwa, harimo abamama benshi bari gucuruzamo imboga n'ibirungo bikoreshwa mu guteka, harimo inyanya, intoryi, sereri na karoti na pavuro n'ibindi birungo bindi bakoresha mu guteka.

Iyi n'inyubako ndende igeretse kenshi, iri mu mabara y'umuhondo. Irimo abaturage benshi bahagaze bari kureba hasi. Hasi yayo haparitse imodoka ishinzwe umutekano ya polisi, ingabo z'igihugu y'u Rwanda ishinzwe umutekano, n'izindi modoka n'izindi modoka nyinshi z'imikara.

Iyi ni inyubako ndetse iri mumabara y' umutuku n' ibirango by' umuhondo byamamaza umuyoboro witumanaho wa MTN murwanda, imbere yaho hari imodoka nyinshi,z' urujya n' uruza ziri mumabara yumweru n' umukara ziri kugenda harimo n' umugabo uhagaze hagati yazo wambaye ishati y' umweru.

Iri ni isoko ry'imboga, n'imbuto ririmo umumama wambaye igitambaro kirimo amabara y'umutuku, n'ishati yakarokaro nuwundi witeze igitambaro cy'umukara, n'ishati y'umweru, ndikubonamo intoryi, inyanya, karoti, oberijine, na beterave n'ibitunguru.

Ibi ni ibirango by'ikigo cy'umurongo w'itumanaho mu Rwanda MTN, cyandikishijwe mu magambo y'umukara mu cyapa cy'umuhondo bivuga ngo"ishyuranamo MOMO peyi", ukanze "akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu urwego", munsi hariho kode y'ubucuruzi kugirango ubashe kwishyura.

Akazu gakoze mu byuma gasize irangi ry'umuhondo hariho ibirango by'umuyobo witumanaho MTN Rwanda, harimo umuma wambaye umupira w'umuhondo inyuma yaho hariyo inzu ya konoshi ribi isize irangi ry'umutuku n'ibirango by'umuyoboro wiitumanaho airtel money.

Uyu ni umugabo wamabaye indorerwamo z'amaso n'umupira w'umuhondo uhagaze imbere ya moto y'umuhondo n'umukara, inyuma yaho hari icyapa kinini kiriho gishushanyijeho imodoka y'umukara kiriho n'ibirango by'umurongo w'itumanaho mu Rwanda emutiyeni.

Inyubako isize amarange meza n'ibyapa bisa, biriho imboga n'imbuto zibishushanyijeho mu mabara meza cyane arimo ubururu, n'icyatsi n'ubururu bwiji, n'icyatsi cyijimye bisa nkaho ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imboga n'imbuto. Harimo umuntu urimo mo imbere n'imodoka iparitse inyuma.

Umuhanda usashemo amabuye, ku ruhande rwawo hariho ibyatsi byiza cyane biteye ku nzu ndende, nziza yubakishije amatafari ahiye, n'ibyuma bikikije biri mu ibara ry'umweru, n'amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'umweru, hejuru yaho hariho icyapa cyandikishije mu mabara y'umukara cyanditse mu Cyongereza.

Mu nyubako mo imbere nziza cyane, iteye amarangi meza y'akataraboneka, hasi hashashe amakaro meza, afite amabara asa neza cyane, hejuru harimo parafo igezweho irimo amatara y'amoko menshi, harimo ay'ibizeru n'ayandi meza cyane, hariho icyapa kivuga ngo inzu iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda muri Kigali, Rwanda.

Igipangu cyiza cyane cyubatse ku buryo bugezweho, cyubakishije umuryango ukomeye cyane w'urugi ruteye irangi ry'umukara, ibikuta by'icyo gipangu birasa ubururu n'umuhondo, hateye n'uturabyo imbere, mo imbere yayo harimo inzu nziza yubatse ku buryo bugeretse, ifite ibirahuri byiza cyane, ikaba yometsweho n'utubuye twiza.

Iyi ni inyubako nziza cyane ifite amakaro y'umweru isize irange ry'umweru n'urukarabiro rwiza cyane ruri hafi y'idirishya iyo nzu ifite inzugi z'ibiti nziza nazo cyane iri hejuru yayo hariho icyapa cyanditseho amafaranga.

Igipangu cyiza cyane kirimo inzu ya konoshi, iriho indabyo, amavaze arimo indabyo imbere, hasi hashashwe amabuye, hirya yaho hari ibiti by'insina bibiri biteyeho, icyo gipangu cyubakishije amatafari ahiye, amadirishya akozwe mu byuma, asize irangi rijya gusa nk'ubururu,..

Iyi ni inyubako ya kadasitari ifite inzugi n'amadirishya biri mu mabara y'icyatsi n'ibirahure by'umukara isize irangi ry'umutuku iteye n'umucanga iharereye Kigali kanombe ifite ibyumba bitatu, n'ubwiherero bubiri ikodeshwa ibihumbi maganatatu by'amafaranga y' u Rwanda ku kwezi.

Inzu nziza cyane igeretse ifite igipangu gikoze mu byuma bisize irangi ry'umukara n'amadirishya y'ibyuma y'umukara akoze mu byuma, inzu isize irangi ry'umweru n'agakonoshi kuruhande gakikijwe n'ibyuma by'umukara ,iherereye muri iki cyapa kivuga ko ikodesha iherereye muri Kigali ,Kimironko.

Iyi ni inzu ya konoshi, ifite igipangu cy'ibyumba biri mu ibara ry'umukara, munsi yayo hariho igikoni, ku muryango w'iyi nzu hariho itara riri hejuru, hariho urupapuro rwanditseho ko iyi inzu ikodeshwa ifite icyumba kimwe n'ubwiherero bumwe, ku mafaranga ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda ku kwezi, iherereye muri Kigali Kacyiru.

Inzu ikodeshwa muri Kimironko i Kigali, inzu nziza cyane ifite amabara meza: umuhondo, umukara, umutuku n'umweru. Ifite igisenge cyiza kigezweho, igereretse n'igipangu cyayo cyubakishijwe amatafari ahiye asizeho uturangi tw'umweru n'umukara. Imbere harimo indabyo nziza cyane n'amapave.

Agace k'imiturire keza cyane ka amazu meza ya konoshi ateye amarangi meza yasakaje amabati meza cyane akomeye y'umutuku n'ibipangu byiza cyane bibasira mu mabuye mu matafari ahiye harimo n'utujaride twiza hariho icyapa hejuru kuko iyi nzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu iherereye muri Kagarama.

Umukobwa uhagaze ahantu bahahira, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'umweru n'agakote k'ubururu; afite agapapuro mu ntoki kameze nk'aho kariho urutonde rw'ibintu akeneye guhaha na terefone, yambaye amarinete afite imisatsi y'imikara.